Abana batatu bahagaze iruhande rw'urukuta, impande yabo hari ibiti birebire, hari na jaride irimo pasiparume, inyuma yabo haragaragara inyubako zitandukanye.

Ahangaha ni ku kigo nderabuzima cya Matage. Hateraniye abajyanama b'ubuzima batandukanye, bambaye amataburiya y'amaboko magufiya ndetse n'amabaji mu gatuza. Umugabo ubari imbere yambaye ikositime afite n'uruhara.

Umwana w'umukobwa wadefirije umusatsi, ari gukaraba ku mugezi, ari gukarabira mu ibasi, amazi akarabye amanuka ajya mu ibasi. Bigaragare ko uyu mwana akunda kugira isuku cyane cyane iyo mu ntoki.

Aha haragaragara umuntu uri gukaraba amazi mu ntoki, aya mazi arimo arava mu mpombo ikigaragara cyo ni meza nta myanda afite, ikintu we abura ni ugufata isabune akareka gukaraba amazi yonyine.

Ku ivomo rusange, ahateraniye abantu bakuru ndetse n'abana batoya, bigaragara ko baje mu kuvoma. Aha biragaragara ko ari mu kabande kuko hejuru haragaragara agasozi kariho n'amabuye ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Ku ivomo rusange ahahuriye abana batandukanye bigaragara ko bashobora kuba ari abanyeshuri kuko bambaye impuzankano z'ishuri, harimo abahungu n'abakobwa bari kuvomera mu ndobo z'umuhondo ndetse n'injerekani.

Iri ni ivomo ririho abantu batatu, hariho umugore witeze agatambaro mu mutwe ndetse yambaye n'agashati k'amaboko magufiya n'akajipo, niwe ufiite ijerekani uri kuvoma, ari kuvoma ayiteruye, iruhande rwe hari umwana wambaye agapira k'umutuku.

Iki cyumba kiragaragaramo abantu batatu bameze nk'aho bari mu biro, bigaragara ko hari amaraporo bari kuzuza, babiri bambaye amashati y'imyeru y'amaboko magufi, undi nawe yambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru ariko inyuma yambayeho akajire.

Aha ni ku kigo nderabuzima hateraniye abajyanama b'ubuzima batandukanye, aho bari kwita ku mwana bamuvura indwara zo mu kanwa. Bambaye udupfukamunwa tw'ubururu ndetse harimo n'umugore wambaye umupira w'umutuku w'amaboko magufi.

Aha haragaragara abantu benshi batandukanye, bafite amakayi ndetse n'amakaramu, bigaragara ko ari impapuro bari kugenda biyandikaho, wenda ni umwirondoro bari kugenda buzuzaho, kugira ngo bahabwe serivisi yuzuye.

Mu cyumba kinini kiri kuberamo inama, biragaragara ko ari abantu biyubashye bari kuganira ku mushinga runaka, bicaye ku meza ateye mu buryo bw'uruziga buri wese afite icyo ari kunywa gisa nk'icyayi.

Wasac ni ikigo gishinzwe amazi mu Rwanda, aya magambo yanditse mu ibara ry'ubururu uretse inyuguti ya S, hasi handitse wota andi sanitesheni koporesheni mu rurimi rw'amahanga rw'icyongereza.

Umuhanda w'ikiraro uri hejuru y'amazi, ni umuhanda ukoze mu buryo bw'uruziga, hagati harimo urundi ruziga ndetse ukikijwe n'utwuma ku mpande, hakurya y'iki kiraro haragaragara ibiti birebire ndetse n'amazu.

Iyi ni inyubako igaragaramo abagore babiri, umwe witeze igitambaro mu mutwe cy'umuhondo wambaye ikanzu irimo amabara y'umweru ndetse na move, yicaranye n'undi mugore wambaye ikoti rya kositimu ririmo amabara y'umukara ndetse n'umweru, bicaye ku ntebe z'imifariso, bashyize amaboko hejuru y'ameza, inyuma yabo hari igitambaro kiri mu ibara ry'ubururu.

Iki ni icyapa cy'ubururu cyandikishije amagambo y'umweru, ariho ikirangantego cy'umubyeyi uteruye umwana aho bari kurebana mu maso. Ahangaha bigaragara ko ari ikigo kidaheza abantu kandi cyane cyane cyita ku bana.

Umukecuru uvuye kuvoma amazi, yikoreye injerekani y'umuhondo ipfundikishije umufuniko w'umutuku, yikoreje ingata kandi yiteze igitambaro mu mutwe, iruhande rwe hari umwana wambaye agashati k'ubururu, hirya hari inzu isakaje amabati y'umutuku.

Ahabereye igikorwa cy'umuganda, aha ngaha hari abantu biganjemo abagabo ndetse n'abagore, hari n'umupolisi inyuma, biragaragara ko ari igikorwa cy'umuganda bajemo, abenshi muri bo bambaye imipira ya oranje y'amaboko magufi.

Aha ni ku mugezi rusange, aho hateraniye abantu bane. Hari umwana wambaye bote, ikabutura y'ubururu ndetse n'umupira w'umutuku. Afite inkoni mu ntoki. Hari n'umugabo uhagaze iruhande rw'injerekani ari kureba ukuntu amazi amanuka, inyuma gatoya y'umugezi hari umwana uri gupompa amazi.

Ikigo gishinzwe ubuzima cyo m'u Rwanda kizwi nka rbc, ni cyo aba bantu cyabateranirije hano ari nabyo biganiro bibandagaho ku bijyanye n'ubuzima bw'abantu, benshi muri bo bambaye imipira y'umweru ndetse hakaba harimo n'abateze ibitambaro.

Aha hagaragara abantu batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo, bambaye ingofero z'umweru, abagabo bambaye imipira y'ubururu, n'aho abagore bambaye imipira y'umweru, barifite icyapa cyanditseho kurwanya cyangwa se umunsi Mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Mu kigo nderabuzima haragaragaramo abakora amasuku bambaye imyenda ijya gusa icyatsi udupfukamunwa tw'ubururu umwe yiteza igitambaro, hirya hagaragara ibikoresho bitandukanye nk'ibigaragaza ibizami by'barwayi.

Aha ni ku ivomo rusange aho hahuriye abantu batandukanye, harimo abakobwa ndetse n'umugabo ubyibushye wambaye umupira wa lakosite w'umutuku, hateretse amajerekani y'umuhondo ndetse hakaba hateretse n'ibibase ku mpande.

Aha ngaha haragaragara umumama uteruye umwana ukenyeye igitenge akaba yambaye agapira k'amaboko magufi. Ari kuvomera amazi mu ndobo y'umukara, bigaragare ko uyu mugore yizanye kwivomera.

Aha haragaragara abagore cyangwa se abategarugori bari kubyina imbyino gakondo, bari mu nzu isize amarangi ajya gusa ikigina, hejuru parafo ziri mu ibara ry'umweru, inyuma yabo haragaragara intebe za purasitike z'umweru.

Umugabo wambaye agapira ka oranje ndetse n'amadarubindi y'umukara, arimo arahereza umwana mutoya icyo kunywa. Umubyeyi we aramukikiye, yambaye umupira w'umweru. Kandi biragaragara ko aha hantu hateraniye abantu benshi.

Ahateraniye abantu batandukanye ariko bigaragara ko ari urubyiruko rwaje kwizihiza umunsi runaka mukuru wabo, haragaragaramo abantu bambaye amataburiya y'umweru ndetse bambaye n'amabaji mu gatuza, inyuma harimo abantu bagiye bambaye amarineti.

Ku kigo nderabuzima ahateraniye abarwayi baje kwaka serivisi, hano haragaragara ibyapa ku nkuta biri mu ibara ry'ubururu ndetse byandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hari abarwayi batandukanye, abagore bagiye batandukanye bafite n'abana batoya.

Ahahuriye abantu batandukanye harimo abarezi ndetse n'abana batoya bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'umweru, bigaragara ko ari abana bari kugirwa inama cyangwa se bari kwigishwa. Harimo umumama ubyibushye wasutse umusatsi ndetse yambaye ikanzu.

Ahateraniye urujya n'uruza rw'abantu, abambaye amataburiya y'ubururu ndetse hari n'ihema, biragaragara ko ari ikirori runaka cyahabereye baje kwifatira inama zibahugura.

Abagore bari guterura imifuka, ni umugore wambaye igitambaro mu mutwe ndetse wakenyeye n'igitenge, hari n'undi wambaye ingofero mu mutwe, ibi ngibi nibyo bigaragaza uburinganire n'ubwuzuzanye kuko n'abagabo na bo barimo barakora kano kazi.

Abagore bahuriye ku ivomo rusange bigaragara ko baje kumesa, bafite ibasi ndetse n'indobo, indobo iri mu ibara ry'icyatsi, abagore babiri bari gutegura umugozi bari buze kwanikaho imyenda bameshe.

Aha haragaragara abantu bageze kuri batanu bambaye imipira y'ubururu y'amaboko magufi, haragaragaramo abakobwa bane ndetse n'umugabo umwe. Aha haragaragara icyapa cyanditseho unicef, bigaragare ko aba bantu bakorana n'ikigo cya unicef.

Icyumba cyateraniyemo inama y'abantu batandukanye, bigaragara ko bari kwiga ku kintu runaka. Gusa biragaragara ko bafite n'icyo kunywa cyangwa se n'icyo kurya. Hari abagabo bambaye amashati y'amaboko magufi, abandi bamwe muri bo bambaye amakositimu.

Uyu ni umujyanama w'ubuzima, aho yasuye umubyeyi ufite umwana urwaye, arimo aramusomera amabwiriza amubwira ibyo agomba kwirinda, ndetse n'ibyo agomba gukora, bicaye ku muryango ndetse ku rubaraza rw'inzu umujyanama w'ubuzima yambaye bote z'umweru.

Aha ni ku mugezi aho abana bane bateraniye baje kuvoma amazi, hari injerekani y'umuhondo iteretse imbere y'umugezi, ku ruhande hari umwana wambaye agapira k'umutuku ndetse n'agakabutura k'ubururu ufite inkoni mu ntoki.

Aha haragaragara ifoto eshatu zitandukanye, aho ifoto ya mbere, iriho umugore wishyigatiye umwana, ifoto ya kabiri, ihagazeho umugore ndetse n'umugabo, ifoto ya gatatu, hariho abana bane.

Mu mugezi utemba, harimo umuntu uri kuhogereza igare, wambaye umupira ujya gusa umuhondo n'ipantaro yakunje y'umukara, mu mazi rwagati harimo umugore uri kuvoma.

Aha ngaha ni ku ivomo, ahari umubyeyi uri kogereza umwana mu ibase ndetse hari n'undi mugore uhagaze iruhande ufite indobo mu ntoki, uri kumwe n'umwana wambaye agapira k'umutuku.

Aha ni kwa muganga, ahagaragarara umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu, umuganga na we yambaye agapfukamunwa k'ubururu afite umusatsi mwinshi. Yambaye itabure y'umweru ndetse na ga z'umweru. Uyu mugabo bari kumutera urushinge ku kuboko kwe kw'ibumoso.

Umugore uvuye kuvoma yikoreye indobo imwe ifite ibara ry'umutuku, indi ayifite mu ntoki, ifite ibara ry'umuhondo, iyo hasi ateruye agakondo kayo k'akuma ndetse kandi akenyeye igitenge.

Aha nini ku ivo muri rusange ahahuriye abantu batandukanye, abana ndetse n'abakuru. Haragaragara umwana ufite injekani ku ivomo, hakaba n'undi uhagaze hejuru y'umugezi arimo amuvomera. Ariko abenshi muri bo biragaragara ko ari abanyeshuri kuko bambaye impuzankano z'ishuri. Hirya yabo hari ibiti birebire.

Icyumba kinini cyateraniyemo inama, iyi nama ikaba yitabiriwe n'abantu batandukanye, harimo abazungu ndetse n'abirabura, imbere yabo hari ameza ateretseho za mudasobwa, impapuro ndetse n'amacupa y'amazi.

Aha ni ku ivomo rusange ryahuriyeho abana batatu batoya, ndetse hakaba hari n'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, uri gukoka amazi ngo babone uko bavoma, hirya yabo hariyo imodoka ndetse n'ibiti birebire.

Kwa muganga cyangwa se ku kigo nderabuzima hari kugaragara abaganga ndetse n'abarwayi, abaganga bambaye imyenda yabugenewe nka ga umwe yambaye isaha ku kuboko, hirya harimo umugabo wambaye umupira w'ubururu n'imbere ndetse n'akajire k'icyatsi n'umukara.

Abana benshi batandukanye bari ku ivomo. Bari gukina n'amazi. Bigaragare ko bari gukaraba mu ntoki. Barishimye. Inyuma yabo, hari abantu bakuru barimo abambaye umupira w'umutuku, uwambaye umupira w'umweru ndetse n'uwambaye umupira w'ubururu.

Aha ni ku mugezi ahateraniye abana batoya baje kuvoma, ariko uyu muntu mukuru akaba ari we uri kubavomera, hirya gatoya y'uyu muntu haparitse imodoka, hirya haragaragara ibiti n'ibihuru bitandukanye.

Aha haragaragara umuryango usa nkaho wasohokeye ahantu runaka. Haragaragara umubyeyi witeze igitambaro mu mutwe uteruye umwana mutoya, hejuru ye haragaragara icyapa cyanditseho Unicef cyanditse mu magambo y'umweru, ku cyapa gisize irangi ry'ubururu.

Umwana mutoya, afite igikombe ari kuvoma ku mugezi. Uyu mugezi ufite robine ebyiri kandi zose ziri kumanukamo amazi. Umwana yambaye agapira k'umutuku k'amaboko magufi.

Aha ngaha ni kwa muganga, abaganga babiri bafite udukarito mu ntoki zabo, umuganga usa nk'aho ari hagati ariko inyuma gato yambaye itaburiye y'umweru, akagofero k'ubururu n'agapfukamunwa k'umweru ndetse n'amadarubindi.

Umwana ukiri mutoya, ari kuvoma amazi ku mugezi, mu gikombe. Yambaye agapira gatukura, ndetse uyu mugezi ufite impombo ebyiri. Cyangwa se ibizwi nka robine, amazi hose arimo aramanuka.

Aha ni ku kigo nderabuzima hateraniye abajyanama b'ubuzima ndetse n'abandi bantu batandukanye, haragaragaramo abagabo bambaye amashati y'amaboko maremare, ku ruhande hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Imodoka nini iri mu bwoko bwa kamyo, iri mu muhanda wa kaburimbo, gusa iraparitse ntabwo iri kugenda, iyi modoka iri muri za modoka zambukiranya imipaka zitwara nk'amasima cyangwa se n'ibindi biribwa.

Aha hateraniye abantu benshi batandukanye, basa nk'aho baje mu nama aho hari umuntu uhagaze mo hagati yabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse y'amaboko magufi.

Ahantu hahuriye urujya n'uruza rw'abantu gusa bigaragara ko ari abagabo gusa bitabiriye icyo gikorwa, haragaragaramo umugabo wambaye ijiri iri mu mabara y'umutuku n'umweru ndetse hakaba n'undi wambaye ijiri y'icyatsi.

Umubyeyi uri gukarabya umwana we, yifashishije amazi meza n'isabune, umwana yambaye impuzankano z'ishuri, umubyeyi yambaye agapfukamunwa ndetse n'umupira w'umweru ndetse wivanzemo n'ubururu, iruhande rwabo hari ibimera bitandukanye.

Ku ivomo rusange ahateraniye abantu batandukanye, hari umwana w'umuhungu wambaye ingofero wakenyeye n'umupira, iruhande rwe hari umumama ukenyeye igitenge ndetse wambaye n'umupira w'umutuku wa rokositi, impande y'uwo mugezi hari ibihuru ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Iki ni icyumba giteraniyemo abayobozi bagiye batandukanye mu nzego z'ubuyobozi, aho barimo umugabo umwe waremesheje iyi nama, wambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru ndetse na karuvati itukura, iruhande rwe hari igitambaro cy'idarapo ry'u Rwanda gifite amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abagore, bambaye ibitambaro mu mutwe. Harimo n'abagabo bambaye ingofero. Inyuma yabo hari ibiti bitandukanye, hirya gatoya hari akazu gatoya.

Abana bari gukaraba amazi meza ndetse n'isabune, bari kwifashisha igikombe, umwe asukira undi akaraba, kugira ngo bakore isuku yo mu ntoki, ku mutwe w'umwana umwe, hari icyapa cyanditseho amagambo ya inisefu.

Abana babiri basa nk'aho ari abanyeshuri banezerewe umwe yamanitse ukuboko kwe kw'buryo nk'aho afite ikintu akeneye gusubiza cyangwa se kubaza, inyuma ye kuru rukuta hagaragaraho ibara ry'ubururu bisa nkaho ari amatara ari kwamurika.

Hano hari icyapa kigaragaraho abantu bagera muri barindwi, harimo abakobwa batatu ndetse n'abahungu bane, iki cyapa kirasa ubururu ndetse n'umweru cyanditseho amagambo azwi mu ndimi z'amahanga nka inisefu yandikishije mu nyuguti z'umweru.

Inama yahuje urujya n'uruza rwiganjemo abagabo gusa harimo n'abagore, kurwakiriro cyangwa se ku ruganiriro hariho abantu batandatu, inyuma ku rukuta hari insakazamashusho bari kureberaho.

Abana b'abakobwa bambaye impuzankano z'ishuri, babiri muri bo bagaragara bafite umusatsi wa menshi baboshye, ndetse bambaye amashati y'umweru n'amakaruvati, impande yabo haragaragara indabyo n'ibiti birebire.

Umubyeyi wambaye amadarubindi witeye umwitero ufite amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, inyuma ye hagaze abana birabura bakiri batoya, aha ngaha biragaragara ko uyu mubyeyi ashobora kuba ari nk'umwarimu noneho aba bana bamuri inyuma akaba ari abanyeshuri.

Ahangaha ni kwa muganga ahagaragara ibitoyi ndetse n'inkingo, hagaragara agacupa bashyiramo urushinge bagakururamo umuti bagiye gutera umurwayi.

Umwana uri gukaraba mu ntoki kuri kandagira ukarabe ari gukaraba amazi meza n'isabune, uyu mwana yambaye impuzankano y'ishati y'ubururu y'amaboko maremare ndetse n'ikabutura isa umukara.

Ku ivomo rusange, ahahuriye abantu batandukanye. Harimo abagore n'umukobwa ndetse n'abagabo. Baje kuvomera mu majerekani, barimo barifashisha umubirikira kugira ngo amazi ajye mu majerekani neza.

Aha haragaragara umugore wambaye itaburiya y'ubururu y'amaboko magufi, wicaye ku ntebe ya sheze, imbere ye hari umugore ndetse n'umugabo, bigaragara ko umugore atwite, birashoboka ko baje kugisha inama uyu mujyanama w'ubuzima.

Abana babiri bari kw'ivoma umwe biragaragara ko ariwe uri gufungura amazi ari kuvoma bari kuvomera mu ndobo ebyiri z'umweru biragaragara ko uyu nguyu we ari kwitegereza ahandi hantu hatari kw'ivoma.

Inzu yateraniyeho inama y'abantu batandukanye ariko biganjemo abagore, abo bagore abenshi muri bo bambaye amajire y'icyatsi ndetse n'imipira y'umuhondo ndetse bakenyeye n'ibitenge bamwe, abandi bambaye n'ibitambaro mu mutwe, iyi nyubako isize amarangi y'umuhondo.

Abana benshi bakiri batoya umwe ari gusuhuza umugabo ukuze wambaye umupira ujya gusa umuhondo, uyu mwana akaba yambaye agashati k'amaboko magufiya karimo utubara tugiye dutandukanye, hirya harimo abana bambaye imyenda y'ubururu bakaba bari ahantu hari ibiti byinshi.

Ahagaragara abantu batandukanye, barimo abantu basa nk'abakire basuye abana bo ku mihanda cyangwa se batishoboye cyangwa se abana bo mu bigo batishoboye. Bari kubahereza ibyo kunywa, bakabahera mu bikombe ndetse no mu mikerenke.

Inyubako nziza isakaje amabati y'umutuku, isize irangi ry'umweru, imbere yayo hari ubwogero cyangwa se pisine, ikikijwe n'utwuma dusize irangi ry'ubururu.

Mu cyumba cy'abarwayi kwa muganga, aho abarwayi bambaye imyenda y'akazi yabugenewe harimo ingofero, isarubeti, amadarubindi ndetse n'udupfukamunwa, aha ngaha haryamye umurwayi woroshe guhera mu gatuza kugarura hasi.

Aha haragaragara ikigo nderabuzima, imbere yacyo hari abantu batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore. Hari umugabo ufite telefoni mu ntoki ndetse wambaye n'amadarubindi, hakaba n'undi wambaye ishati y'amaboko maremare iri mu ibara rya pink.

Aha haragaragara umugabo wambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru ndetse na karuvati, yambaye kandi amadarubindi, ari kumwe n'umugore ufite icyapa bafatanye mu maboko bombi, cyanditseho ngo Visit Rwanda, aho ni mu ndimi z'amahanga.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye harimo: abagabo, ndetse n'abagore bamwe bambaye amataburiye ajya gusa ubururu ndetse n'amabaji mu gatuza hari umugabo uhagaze ku ruhande wambayetaburiya y'umweru ndetse na baji.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, hejuru yambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare yatebeje, ari gukaraba kuri kandagira ukarabe, inyuma ye haragaragara inzu ndetse n'ibiti.

Aha ngaha ni kwa muganga aho abaganga basuzumira abarwayi. Muganga yambaye imyenda yabugenewe irimo ingofero ndetse n'itaburiye, umurwayi yambaye agapfukamunwa, afite umusatsi muremure. Yambaye agapira kajya gusa umuhondo n'ipantaro by'umweru, bari kumufata amaraso ngo barebe indwara arwaye.

Aha ngaha haragaragara abantu bishimye barimo abagore, abagabo ndetse n'abana, harimo abambaye imipira y'ubururu, amashati y'umweru ndetse hafi hano haragaragara umuntu wambaye itaburiya y'umweru wambaye na ga, biragaragara ko bariko bishimira umwana wavutse.

Ku kigo nderabuzima umubyeyi ufite umwana ukiri mutoya, yajyanye umwana we kwa muganga, umuganga ari kureba ikibazo yaba afite, yamukuyemo umupira wo hejuru, umuganga yambaye itaburiya y'amaboko magufi, umubyeyi nawe yiteze igitambaro mu mutwe.

Aha biragaragara ko uru ari urubyiruko rwihaye intego yo kwihangira imirimo, harimo umuhungu umwe wambaye amarinete ndetse na ga asa nk'aho hari ibya yari arimo avanga, muri abo bantu bose uko ari batanu harimo umukobwa umwe wenyine.

Umugore ukenyeye igitenge wambaye ingofero mu mutwe ndetse akaba yambaye agapira k'amaboko magufi asohotse mu nzu ajya kuri kandagira ukarabe kugira ngo akaraba amazi meza n'isabune nkuko tubibwirwa buri munsi gukaraba amazi meza mu ntoki zacu ni ingirakamaro.

Abana babiri bicaye ku ivomo bari gukaraba amazi, biragaragara ko aya mazi ari meza atanduye, umwana umwe yambaye agapira k'umutuku k'amaboko magufiya, undi yambaye ishati irimo amabara ariko y'amaboko maremare.

Aha ngaha ni kwa muganga, umuganga yambaye imyenda y'akazi yabugenewe irimo ga ndetse n'itaburiya, afite umusatsi muremure, arimo arasekera umwana kugira ngo umwana yekugira ubwoba ko bagiye kumugirira nabi.

Inama yateranyije abantu benshi batandukanye harimo: abagabo ndetse n'abagore, harimo umugabo wambaye ikositimu ufite uruhara, hakabamo n'abandi bambaye imyenda y'ubururu n'amashati y'imyeru, imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi.

Icyumba cyibe ramo inama ahangaha biragaragara hose

Aha ni kwa muganga aho muganga ari guhereza imiti umwana ukiri mutoya w'uruhinja, umuganga yambaye amaherena y'umweru ndetse n'itaburiya y'umweru, umusatsi we yarawusukishije, umubyeyi w'umwana yambaye ishati idoze mu gitenge.

Icyumba kiri kugaragaramo umugabo ndetse n'umugore, umugabo ahagaze imbere y'umugore yambaye imyenda y'ubururu ndetse yambaye n'inkweto z'umukara, aho umugore yambaye ikanzu irimo amabara y'umukara ndetse afite n'umusatsi usutse.

Ibiganza bibiri by'umuntu usa nkaho ari gukaraba ,ari gukaraba amazi meza gusa nta sabune afite biragaragara ko nanone ko ashobora kuba ari kunyuguza intoki yasoje.

Aha ni ku kigo cy'amashuri aho abana b'abanyeshuri bari ku meza bari gufata ifunguro, bigaragara ko ari kawunga ndetse n'ibishyimbo, bari gukoresha amafurusheti barya, inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho.

Iyi ni inyubako yateraniyemo abantu benshi batandukanye, harimo abazungu ndetse n'abirabura, iyi nyubako yubakishije amakaro, imbere haragaragara icyapa cy'ubururu cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Aha ngaha ni ku mugezi. Hari umuntu waje kuvoma, yaje yitwaje amajerekani menshi agera muri atatu. Harimo abiri y'umuhondo ndetse y'ibibundi, hakaba n'indi y'ubururu na yo y'ikibundi. Bigaragare ko uyu muntu atari wenyine, ahubwo hari undi yatwaje.

Aha haragaragara abantu batanu, abagore batatu, umugabo umwe ndetse n'umwana w'umuhungu umwe, harimo umugore witeze igitambaro mu mutwe ndetse hirya yabo hari insina, uyu mugabo yicaye ku ntebe y'indambure.

Iki ni icyumba cy'inama kirimo abantu benshi batandukanye, biragaragara ko baje gutanga ikiganiro ku kijyanye n'ubuzima aribyo RBC, icyo ni ikigo gishinzwe ubuzima cyo mu Rwanda, hateraniyemo abantu bambaye imyenda y'umuhondo, umutuku ndetse n'ubururu n'indi myenda igiye itandukanye.

Umusore bigaragara ko yishimye yanezerewe, yamwenyuye afite amenyo meza y'urwererane ndetse afite n'ubwanwa. Uyu muhungu biragaragara ko ari nk'intego ye yagezeho yamuteye kwishima.

RBC ni Ikigo Gishinzwe Ubuzima mu Rwanda. Aha ngaha haragaragara umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ndetse hakaba n'umugabo wambaye agapfukamunwa, imbere ye hari agacupa k'amazi.

Aha ngaha habereye amahugurwa asa nkaho yahuje abantu batandukanye, bateye intebe ku buryo zikora uruziga nta wuteye undi umugongo, bashakaga kwicara barebana kugirango hatagira urangara.

Aha ni mu ishuri aho bigaragara ko umwarimu ari gutanga isomo imbere y'abanyeshuri ba kaminuza, bose biragaragara ko bakuze nta mwana n'umwe urimo, hagiye hari ibyapa bigiye bimanitse ku bikuta bigiye bitandukanye.

Umugabo usa nabi wambaye ibirineti byashaje, ufite umusatsi usa nabi ndetse n'igipopi cy'imbunda, biragaragara ko ashobora kuba ari nk'umurwayi wo mu mutwe, inyuma ye harasa nabi, hari ibintu byinshi bijagaraye.

Hano hari ikirangantego kigaragaza umuntu uri guhobera uruziga, hano bishatse kugaragaza ko hari umutuzo kandi n'akanyamuneza nta kwiheba, iki kirango kigaragaza abantu bafasha abantu bafite indwara zo mu mutwe.

Inyubako yiganjemo abantu benshi batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore. Bicaye ku ntebe zegamirwa z'imifariso zifite ibara ry'umukara. Imbere umuntu uri kubaha amabwiriza cyangwa se ikiganiro ni umugore ufite umusatsi muremure.

Umugabo wambaye ishati irimo utubara ndetse yiteye umwitero w'umuhondo, yambaye nk'intore kuko afite icumu ribaje mu giti mu ntoki ze, yambaye ikigofero gisa nabi, yakutse amenyo abiri yo hejuru n'andi abiri yo hasi.

Umugore wambaye agakoti k'agakositimu k'amaboko magufiya, mo imbere yambariyemo ikanzu ifite ibara ry'umutuku. Yasutse umusatsi, uyu mugore biragaragara ko ari inzobe. Arishimye ari kumwenyura.

Aha ngaha haragaragara umwana wambaye impuzankano ishati y'umweru ndetse n'aga karuvati k'umukara, afite umusatsi muremure ndetse afite akantu ari kurya kameze nka biscuit, yicaye mu ntebe ya sheze imbere ye hari ameza.

Icyumba cyahuriyemo abantu babiri bigaragara ko ari umusore n'inkumi, umukobwa yambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, umusore yambaye umupira w'amaboko maremare ariko ukunje, biragaragara ko uyu mukobwa yagize ikibazo runaka uyu musore akaba ari kumuhumuriza.

Icyumba cyahuriyemo inama yahuje abantu benshi batandukanye, barimo abagore ndetse n'abagabo, hino gato hari umugore wambaye amadarubindi, ndetse yambaye n'amaherena iruhande rwe hirya gato hari undi mugore wambaye ishati y'umutuku.

Umukecuru wicaye imbere y'umuryango utetse ku nkwi, biragaragara ko wagira ngo ari gushigisha igikoma. Imbereye hateretse agakombe k'icyatsi ndetse n'umufuniko w'isafuriya, yikenyeye igitambaro mu mutwe.

Aha ngaha haragaragara umusore bisa nkaho afite agahinda, yifashe mu gahanga, yambaye ishati y'amaboko maremare, ari kumwe n'umukobwa wambaye isaha ku kuboko, ufite umusatsi udefirije.

Abana bashegeshwe n'agahinda, bigaragara ko hari ikintu kibi cyababayeho. Barasa nabi harimo urebye n'abadaheruka gukaraba. Bafite agahinda bigaragara ko wagira ngo bari gusaba imbabazi.

Umuryango ufite umugore ndetse n'abana babiri, umugore akenyeye igitenge kijya gusa umuhondo, imbere hari inkoko iriho ingemeri, ndetse iyo ngemeri ikaba irimo ibintu. Umwana akikiye yitandiye igitambaro kijya gusa iroza.

Umugore wicaye ku ntebe y'indambure, isa n'iyenda kuvunika, wambaye inkweto za kamabiri ndetse ukenyeye igitenge, akaba yambaye umupira w'amaboko maremare, intebe iteye ku rukuta rw'inzu ndetse hejuru hari idirishya rikinguye.

Icyumba cyateraniyemo urujya n'uruza rw'abantu. Aha ngaha biragaragara ko higanjemo urubyiruko rw'abasore n'inkumi bakiri bato. Imbere hari umukobwa wambaye agapira k'amaboko magufi k'umweru ndetse n'ipantaro y'umweru.

Umugabo wicaye hasi ku mukeka ahambiriye amaguru, yambaye umupira w'ubururu ndetse n'umweru yicyenyeye igitenge, uyu muntu biragaragara ko yakoze icyaha runaka bakamufunga bamuhambiriye.

Abana batoya bateraniye mu nzu, bigaragare ko bishimye, bashobora kuba bari kureba nk'amashusho kuri televiziyo, kuko biragaragara ko bishimiye ikintu runaka. Harimo abambaye imipira iri mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'umuhondo.

Umugabo usa naho yambaye imyenda yacikaguritse, ari mu muhanda, bigaragara ko yashobewe. Uyu mugabo bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Impande y'umuhanda, hari ibiti birebire, harimo n'umumotari ndetse n'imodoka biri kugenda.

Hano haragaragara umwana warize amarira amanuka ku matama, yikoreye amaboko, yambaye ishati y'umweru yamaboko maremare, iruhande rwe hari umubyeyi w'umumama ufite inkwi, inyuma yabo hari abandi bantu benshi batandukanye, bigaragara nk'aho ari mu isoko.

Umusore wicaye ku muhanda, yegamye ku rukuta, yambaye inkweto z'umukara, ipantaro ijya gusa n'imyenda ya gisirikare, yambaye agapira k'amaboko magufi k'umutuku. Uyu muntu biragaragara ko ari nk'imbeho cyangwa inzara yamwiciye ku muhanda.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'ubururu, barazambaye bazamuye amaboko bigaragara ko bishimye. Hagati yabo harimo Idarapo ry'Ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, inyuma yabo hari ibiti birebire, bigaragara ko bikuze.

Icyumba cyateraniyemo inama, ni uruganiriro rwahuje ababyeyi batandukanye harimo n'abahetse abana, abiteze ibitambaro mu mutwe ndetse n'abambaye iyi imipira ya orange.

Ahantu hahuriye abantu babiri, umugabo usa neza, wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ipantaro y'itisi, ahuye n'umugabo usa n'aho ufite umusatsi mwinshi ndetse n'ubwanwa bwinshi, wambaye imyenda yacikaguritse. Birashoboka ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umusaza wicaye hasi wambaye amapingu mu maboko, yambaye ikabutura ndetse n'umupira w'umutuku. Inyuma ye biragaragara ko hari abashinzwe umutekano, ndetse hari n'abandi bantu benshi bamushagaye. Uyu mugabo biragaragara ko yakoze ibyaha runaka, hakitabazwa abashinzwe umutekano.

Umugore wambaye ingofero y'ubururu, wambaye amaherena ku matwi, ateruye umwana ukiri mutoya, yambaye ndetse n'agakanzu, ari kumwe n'umujyanama w'ubuzima, ari kumufata ibipimo by'ubushyuhe ndetse uwo mujyanama w'ubuzima afite terefone mu ntoki.

Umugore wambaye ingofero y'ubwoya y'umukara yipfukishije igitambaro mu maso, birashoboka ko yaba arwaye amaso cyangwa se ahubwo afite agahinda gakabije yaba yatewe n'amakuba runaka.

Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC kiributsa abantu umunsi w'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, aha ngaha baba bagamije kwereka ko abantu bafite ubu burwayi na bo batagomba guhabwa akato ahubwo bagomba kwitabwaho.

Aha haragaragara abakobwa batatu bambaye udupfukamunwa, babiri muri bo bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, undi yambaye ak'umukara yiteze n'igitambaro mu mutwe. Bicaye munsi y'igiti kinini cy'inganzamarumbo, gifite amahumbezi, hirya hari inyubako za nyakatsi.

Abagore babiri, harimo umwe ufite amenyo y'urwererane yasetse, afite umusatsi muremure ugera mu mugongo, akaba yambaye agakote kajya gusa ubururu mo imbere yambariyemo agasengeri k'umukara, ari kumwe n'undi wambaye amarinete uri kwandika ku mpapuro wambaye agakote k'umutuku ndetse n'agapira yambariyemo imbere ni umukara.

Aha ngaha ni kwa muganga ahari kugaragara umuganga w'umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu, ndetse ari kumwe n'umuganga w'umugore ufite umusatsi muremure wambaye agapfukamunwa nawe k'ubururu, bari gusuzuma umwana ko yaba arwaye indwara y'amenyo.

Aha haragaragara umusore uri gukora isuku yo mu menyo yifashishije urudodo rw'umweru, ari kwireba mu kirahure kugira ngo agende areba ahari imyanda ayikuremo.

Uyu ni umusore wiyogoshesheje umusatsi n'ubwanwa yabucongesheje, afite amenyo meza bigaragare ko ayakorera isuku ku buryo bwose bushoboka, ndetse yambaye n'umupira w'umukara.

Umugabo ufite amenyo y'urwererane, yogosheshe ubwanwa. Afite agasume k'umweru ku rutugu, arimo arakoresha urudodo mu koza amenyo ye ngo imyanda yose ayimaremo.

Uyu ni mugabo ufite imibiri yombi, afite ubwanwa ndetse n'umusatsi utari mwinshi cyane, afite amenyo y'urwererane meza, inyuma ye gato hari ikiganza gifite urushinge mu ntoki cyambaye ga.

Umugabo w'inzobe uri guseka, bigaragare ko ari gukora isuku yo mu menyo yifashishije urudodo rw'umweru, uyu mugabo bigaragare ko yita ku isuku yo mu kanwa, yirinda indwara zigenda zitandukanye zituruka ku mwanda wo mu kanwa.

Aha ni kwa muganga mu cyumba abaganga bakuriramo amenyo, umuganga yambaye imyenda yabugenewe izwi nka ga, amarinete ndetse n'itaburiya, ari kwasamura umurwayi akabanza kwitegereza iryinyo agomba gukuramo.

Umugore cyangwa se umukobwa ufite amenyo meza y'urwererane, bigaragara ko ari kuyoza ariko gukoresha uburoso akabona ntibihagije, akaba yafashe urudodo akaba ari kugenda anyuza hagati y'amenyo kugira ngo imyanda yose irimo ayimaremo, akantu ari kwifashisha gafite ibara ry'ubururu nawe ubwe yambaye ingofero y'umweru.

Umugore ndetse n'umwana ukiri mutoya bose bafite imisatsi miremire, bambaye udusengeri tw'umweru. Umumama arimo arereka umwana uko bakora isuku yo mu kanwa, bakoresheje umuti w'amenyo wabugenewe ndetse n'uburoso.

Umukobwa w'imibiri yombi, wambaye igitambaro mu mutwe ndetse akaba yambaye n'isenge y'umweru, ari gukora isuku y'amenyo yifashishije uburoso bw'amenyo ndetse n'umuti wabugenewe.

Umwana ukiri mutoya bigaragara ko aryamye kwa muganga aho ari kwitabwaho n'abaganga, aryamye ku buriri bufite ishuka iri mu ibara ry'ubururu ndetse hari n'ibiganza biri kumwegera ku munwa byambaye gants z'umweru.

Umwana w'umukobwa wasamye bari gutamika umuti bakoresheje akayiko. Uyu muganga uri kumuhereza umuti, yambaye ga z'umweru, ndetse uyu mwana yambaye amaherena ku matwi.

Aha haragaragara umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, ufite amatwi manini, ufite n'ubwanwa, yambaye amadarubindi, afite ishusho ari kumanika ku rukuta.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi, arimo arakora isuku mu menyo ye, yifashishije agakoresho kabugenewe k'urudodo, arimo agenda anyuza hagati y'amenyo akuramo imyanda.

Aha haragaragara abantu b'abagore ndetse n'abasore, bari gukora isuku yo mu kanwa bifashishishije umuti w'amenyo wabugenewe ndetse n'uburoso. Umuti urambitse ku meza bigaragare ko bari kuwamamaza.

Mu bitaro kwa muganga, muganga ari gusuzuma umurwayi indwara zo mu kanwa, ari kureba niba ari amenyo arwaye. Umuganga yambaye ibikoresho byabugenewe nka ga, udupfukamunwa ndetse n'itaburiya. Iruhande rwe hari impapuro ndetse n'ikaramu.

Aha higanjemo urubyiruko ndetse ni abasore n'inkumi, gusa harimo umubyeyi uteruye umwana w'uruhinja w'umuzungu, aha ngaha biragaragara ko baje kwishimira ibyo bagezeho kuko bishimye bigaragara.

Aha ni kwa muganga ahagaragara umusore uri gukoresha urutoki ku menyo ye yo hejuru. Umuganga arimo aramubaza amenyo yaba arwaye ndetse uyu muganga yambaye ga ziri mu ibara ry'ubururu.

Abana babiri bafite uburoso, bigaragara ko bari koza mu kanwa bifashishije amazi, uburoso, ndetse n'umuti w'amenyo, aha ngaha barashishikariza abakuru n'abato gukora isuku y'amenyo, kugira ngo amenyo yabo atarwara indwara zitandukanye.

Umugore w'imibiri yombi wadefirije umusatsi, afite amaherena ku matwi, afite n'amenyo meza bigaragara ko ayakorera isuku ku buryo bwose buhagije, arimo arakoreshamo isuku yifashishije akadodo k'umweru.

Abantu batatu barimo abahungu babiri ndetse n'umukobwa umwe ubarimo hagati biragaragara ko umukobwa afite umusatsi muremure abahungu nabo bakaba barawubohesheje nubwo atari muremure cyane bose bambaye imipira y'imyeru y'amaboko magufi.

Umugabo uri guseka, bigaragara ko anezerewe, yambaye umupira w'umweru, afite amenyo meza y'urwererane, bigaragaza ko ayakorera isuku ku buryo buhagije, inyuma ye hari igitambaro kiri mu ibara ry'umuhondo.

Umugabo wacongesheje ubwanwa bwe ndetse akicongesha n'umusatsi, yambaye ikote rijya gusa ubururu, mo imbere yambaye agapira kajya gusa ikigina, yasetse biragaragara ko yishimye, afite amenyo y'urwererane.

Uyu ni umuganga cyangwa se umujyanama w'ubuzima, ari kumwe n'umurwayi wicaye mu kagare k'abafite ubumuga. Uyu muforomokazi afite imisatsi miremire ndetse yambaye n'imyenda y'ubururu. Arimo arapima uyu murwayi umuvuduko w'amaraso.

Umusaza bigaragara ko akuze, afite imvi mu musatsi we ndetse no mu bwanwa, yambaye umupira wa rakositi uciyemo imirongo y'ubururu ndetse n'umweru, yicaye imbere y'ameza, bigaragare ko hari umukino ari gukina n'undi muntu.

Inama yateranije abantu batandukanye cyangwa se ibirori runaka, biragaragara ko harimo abasaza ndetse n'abakecuru babukereye bambaye neza, umusaza yambaye ingofero umukecuru afite imvi nyinshi mu mutwe yambaye urunigi ndetse n'umukenyero w'umweru n'agapira k'ubururu.

Aha hateraniye inama y'ababyeyi batandukanye, harimo ababyeyi bigaragara ko ari abakecuru bakuze ndetse harimo n'ababyeyi biteze ibitambaro mu mutwe, inyuma yabo haragaragara intebe z'umweru za purasitike ndetse inyuma hari ibiti.

Abantu babiri barimo umusaza ndetse n'umugore we, uyu musaza biragaragara ko akuze kuko umusatsi we urimo imvi nubwo ari mukeya, bicaye iruhande rw'ameza uyu musaza birasa nk'aho ari gufata imiti umugore akaba ari kumwereka amabwiriza ayigenga.

Umusaza w'imivi nyinshi ku mutwe ndetse no mu bwanwa, afite inkoni, yicaye iruhande rw'abana babiri, aha bigaragara ko ari kubagaburira, bicaye mu muryango, ku rubaraza rw'inzu.

Ahangaha hari abantu batatu ariko babiri barasa nkaho bari gusindagiza umusaza ukuze ugeze mu za bukuru. Uyu musaza afite imvi nyinshi umusatsi we wose wabaye imvi, yambaye ipantaro y'umukara, harimo umugore wambaye umupira ujya gusa na kaki.

Abagore bigaragara ko banezerewe ni abagore batatu. Babiri muri bo bambaye amaherena ku matwi. Uwo hagati afite telefoni arimo arabafotoza camera y'imbere kugira ngo nawe yifotore.

Umusaza n'umukecuru bicaye mu cyumba muri salo ku meza, bombi bafite imvi mu musatsi wabo ndetse n'umusaza afite ubwanwa burimo imvi, umusaza afite ipamba mu ntoki n'umukecuru afite irindi pamba ku meza imbere ye, yambaye n'iherena ry'umweru.

Umuforomokazi uri kwita ku mukecuru ukuze, umukecuru afite imvi mu mutwe. Yambaye ikanzu y'igitenge, umuganga yambaye imyenda iri mu ibara rya move. Biragaragara ko ari kumusuzuma umuvuduko w'amaraso.

Abantu batandukanye baremye inama, muri iyi nama biragaragara ko hari harimo abantu biyubashye, hirya hari itente yari ifite ibitambaro by'idarapo ry'Urwanda, birimo amabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Umugore ukuze uri gukora imyitozo ngororamubiri ari guterura utwuma twabugenewe, utu twitwa ariteri mu ndimi z'amahanga. Uyu mugore yambaye umupira w'imbeho ndetse afite umusatsi muremure w'umweru ndetse n'umukara, akaba yambayemo iserengeri by'umweru.

Abagabo babiri bari gutembera mu muhanda umwe biragaragara ko ukuze cyane kuruta undi, yambaye ingofero ndetse yambaye ishati y'amaboko maremare n'isahaka ukuboko kw'ibumoso, undi mugabo yambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi.

Abantu batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo, basa nkaho ari ikirori bitabiriye, aha ngaha hari abagore babiri basa nkaho bari guhana impano cyangwa se kado, umugore wambaye igitenge cy'ubururu, ndetse n'undi wambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe.

Ahangaha ni kwa muganga. Aho umuganga ari kumwe n'umurwayi, ari kumuganiriza, amubwira ibyo agomba gukora kugira ngo agomeze agire ubuzima bwiza. Umuganga yambaye imyenda y'ubururu, umurwayi yambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru.

Abagabo babiri umwe yambaye umupira uri mu ibara rya kaki, akaba afite ubwanwa burimo imvi ndetse n'umusatsi we ukaba urmo imvi, ari gukururana umugozi n'undi mugabo wambaye umupira w'amaboko magufiya.

Aha ni abantu bagiye gusura ahantu nyaburanga runaka. Biragaragara ko hano hantu hasanzwe hasurwa. Iyi ni imiryango yaje na yo kwihera ijisho no kwishimisha. Hragaragara udutebe twa purasitike.

Icyumba kiganjemo abasheshe akanguhe ndetse n'abagabo bakiri bato. Biragaragara ko harimo umusaza ufite uruhara, hakabamo n'undi mugabo wambaye ingofero y'abayisilamu ndetse n'imyenda y'umweru.

Umusaza wambaye ishati irimo imirongo ndetse irimo amabara atandukanye, ishati yikunje. Imbere ye hateretse imiti hakaba hari n'icupa, ari gusoma amabwiriza y'uburyo iyo miti ifatwa, iruhande rwe hicaye umugore wambaye amarinete, ndetse ufite n'umusatsi w’umweru uri gukoresha mudasobwa.

Umugabo w'umuzungu ufite imvi mu mutwe ndetse no mu bwanwa, ari kugendera ku byuma afashijwe n'umugangakazi ufite umusatsi yazirikiye inyuma, ndetse wambaye n'imyenda y'umukara, impande yabo haragaragara ibintu biri mu irangi ry'umweru umuhondo ndetse n'ubururu.

Aha haragaragara umusaza ufite imvi nyinshi mu mutwe ndetse n'ubwanwa, hakagaragara n'umugore uri kumusukira icyo kunywa mu kirahuri. Imbere yabo ku meza hateretse imbuto zigiye zitandukanye baribuze gufungura.

Aha habereye ibirori byahuje abantu benshi, bigaragara ko ari ikirori runaka cyahabereye. Imbere yabo hahagaze umusaza ndetse n'umukecuru, umusaza yambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare, naho umukecuru yambaye umupira w'ubururu ndetse n'urunigi mu ijosi.

Umuryango mugari kandi wishimye, ni abantu batandatu, birashoboka ko haba harimo n'abashyitsi babasuye ariko bano bantu uburyo bicaye bameze nk'abantu bishimye pe!

Umusaza n'umugore we bigaragara ko bose bambaye amarineti bari ku meza aho bari gufata ifunguro, bari gufata ifunguro ritandukanye harimo imbuto, ibitera imbaraga n'ibindi, umusaza yambaye ishati iri mu ibara rya pinki y'amaboko maremare.

Aha, haragaragara umusaza ufite imvi mu musatsi ndetse no mu bwanwa, wambaye amarineti ndetse n'umupira wa rakosite. Ari kumwe n'umuhungu ufite umusatsi mwinshi, wambaye ishati irimo amabara y'umukara ndetse n'umweru. Imbere yabo ku meza hateretse ibikombe. Hari ibintu bari gusoma mu gitabo.

Umugabo ubyibushye ufite imvi mu musatsi we aragaragara ko yishimye ahagararanye n'umukobwa wambaye marinet ufite amenyo meza y'urwererane, inyuma yabo hari ibara ry'umukara bisa nkaho ari amabati ateye imisumari kunkuta.

Umubyeyi wadefireje umusatsi wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare, uyu mubyeyi ari kumwe n'umwana we mutoya ufite umusatsi mwinshi na we wambaye umupira w'umweru bari gukina umukino wo gutombora, utuntu bari gutombora turi ku meza imbere yabo.

Umusaza n'umukecuru bigaragara ko bari mu munyenga w'urukundo bose barirabura, umukecuru yiteze igitambaro cy'umutuku ndetse n'ikoti ry'umukara. yamwenyuye ariko umusaza mu maso he ntabwo hagaragara.

Umubyeyi w'umukecuru ukuze, wambaye agapira k'ubururu ndetse yiteye n'umwitero w'umweru, yambaye urunigi ruri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, afite imvi mu musatsi we, ari kuvugira mu ndangururamajwi, hirya ye hari imodoka, ndetse n'inyubako isize irangi ry'umweru n'ibiti birebire.

Ahateraniye abantu benshi bisa nkaho ari imiryango yahuye, bishimye banezerewe, bicaye hamwe bigaragara ko basa nkaho bari kwifotoza, inyuma yabo hari urukuta rusize irangi ry'umweru ndetse n'ubururu.

Umugore ndetse n'umugabo bari mu myitozo ngororamubiri, umugabo yambaye agapira kamwegereye cyane ndetse n'isaha ku kuboko kwe kw'ibumoso, ari kwiruka afunze ibipfunsi afite umusatsi mukeya ari guseka, umugore yambaye agapira k'umweru ndetse nawe n'isaha afite umusatsi urimo imvi.

Icyumba cyateraniyemo inama biragaragara ko hari abayobozi bicaye ku ntebe z'imbere ari nabo bateguye ikiganiro bari kugeza aho aba bantu babakurikiye bicaye imbere yabo, harimo abagore ndetse n'abagabo abagore bafite umusatsi mwinshi.

Icyumba cyahurijwemo abantu batandukanye, ariko biganjemo abakobwa kandi bakiri bato. Bari mu gihe cy'ubwangavu. Aha ngaha haragaragara imeza iteretseho mudasobwa ndetse n'ikayi.

Aha ni kwa muganga haragaragara umurwayi wambaye isaha ufite imisatsi yazirikiye inyuma yambaye amarinete ku ishati ye yambaye ndetse n'agapfukamunwa, biragaragara ko umuganga ari kumutera urushinge, umuganga nawe yambaye agapfukamunwa k'ubururu inyuma y'umurwayi hari undi muntu.

Abantu bane barimo abakobwa babiri ndetse n'abahungu babiri, bari kwamamaza ndetse no gutangaza uburyo udukingirizo dukora, ndetse n'umumaro watwo. Ubundi muri rusange tuzi ko udukingirizo twifashishwa n’abantu bari gukora imibonano mpubitsina bikingira indwara.

Kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi harimo abaganga bambaye imyenda y'akazi, isa ubururu irimo udupfukamunwa mu mataburiya ndetse hakaba hagaragaramo n'abarwayi baryamye ku bitanda basa nk'aho barembye.

Aha haragaragara abantu babiri harimu umugabo wambaye ikote rya kositimu ndetse n'ipantaro yitise n'inkweto z'umukara yambaye baje mu gatuza hakaba hari n'umukobwa wambaye inkweto ndende n'agakanzu ndetse na baji ufite imisatsi miremire.

Uyu ni umubiri bigaragara ko uyu muntu yaba yarahiye ku kuboko cyangwa se akaba ari indi Virusi yaba arwaye, uku kuboko kwarabyimbye bigaragara ko gufite ikibazo gikomeye kitoroshye.

Umuganga cyangwa se umujyanama w'ubuzima, wambaye udukoresho twumva uko umutima cyangwa se uko amaraso w'umuntu agenda, yambaye ingofero y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa kajya gusa ubururu n'ishati y'amaboko magufiya ijya gusa ubururu.

Umukecuru wambaye ingofero y'umutuku bigaragara ko akuze wakutse amenyo abiri yo hasi, uyu umukecuru ijisho rye ryagize ikibazo bamushyiriraho igipfuko cy'umweru, uyu mukecuru bigaragare ko yari akuze ashobore kuba yikubise hasi yagize impanuka itunguranye.

Abantu benshi batandukanye bahuriye mu nama bigaragara ko ari ikintu baje kuganiraho, barasa neza, barekeye, ku ruhande hahagaze ushinzwe umutekano uzwi nk'umusirikare.

Icyapa kiriho umwana usa nk'uwasamye, ari kurera cyangwa se ari gutabaza. Iki cyapa gifite uruhande rumwe rw'ubururu, rwanditsemo utugambo dutoya, ndetse hasi hari akandi kapa gateye nk'umwambi, gatukura.

Icyumba cyabereyemo inama bigaragara ko iyi nama yahuje igitsina gore gusa, nta mugabo n'umwe ugaragaramo. Harimo abagore bambaye imipira y'imikara ndetse hakabamo n'uwambaye ingofero. Harimo abambaye imipira y'imyeru ndetse n'umugore wambaye ishati irimo utudomo tw'umukara.

Icyapa cy'ubururu kiriho inyuguti ya ha na ra kiriho ibiganza bibiri biramukanya, hakaba hari n'inyuguti zandikitse mu ibara ry'umweru mu rurimi rw'amahanga nka health people Rwanda.

Abagabo babiri, bari gukorana mu ntoki. Bose bambaye ikositime z'umukara. Umwe yambaye karuvati ijya gusa ubururu, undi irasa umukara, bose bafite impapuro mu ntoki.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu benshi, bigaragara ko ari igitsina gore gusa, biragaragara ko bose bafite umusatsi muremure, abenshi muri bo bambaye n'amaherena, bambaye imyenda y'umweru cyane cyane n'imikara.

Icyumba kigari cyateraniyemo abantu benshi batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo. Abagabo biganjemo bambaye amakositime ndetse n'amakaruvati. Harimo abagore n'abo bambaye amakositime ariko nyamara aba bantu bafite insanganyamatsiko bari kuganiraho.

Aha ngaha haragaragara igipapuro kinini cy'ubururu ndetse gifite n'ibara ry'umweru, cyanditseho umubare icumi, bigaragara ko ari umuryango wita ku bantu.

Icyumba cyabereyemo inama bigaragara ko yitabiriwe n'abakobwa benshi. Iyi nama ishobora kuba igamije mu kwiga ku buzima bw'imibereho y'abakobwa cyangwa se abangavu.

Icyumba kinini gikeye kirimo amavase ateretsemo intebe. Aha hantu biragaragara ko ari ahantu bafashiriza abantu bakorera siporo, ndetse bakabagira n'inama z'uburyo bakoramo iyo myitozo ngororamubiri, biragaragara ko nta kajagari karimo.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye. Haragaramo utugare unyugwa uri ahantu hamwe bigasa nkaho uri gukora imyitozo yo mu muhanda uri kwirukanka cyangwa se uri kunyonga igare. Hari na tapi ziteye neza ukoreraho imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kinini gihurutuye kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, kirimo urumuri rukeya, hirya hariho inzugi nini z'imiryango ibiri, hano hejuru gatoya hamanitseho utuntu tw'umutuku.

Ibi ni ibitaro bya Kabgayi biherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga, ahagaragara mu marembo, harimo abantu bari gusohoka abandi binjira, biragaragara ko bagiye kwakamo serivisi cyangwa bakaba bagiye gusurayo abarwayi.

Icyumba gisa neza giteye ubwuzu kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye iki cyumba kirimo intebe zabugenewe zo kwicaraho abakiriya kikabamo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye hagaragaramo amashusho nk'ay'intare, ingwe, inzovu ndetse n'izindi nyamaswa zigiye zitandukanye.

Iyi ni inzu ifite etaje enye ni nziza cyane pe, isize hanze irange rijya gusa pinki, mu ibaraza hasize irange rijya gusa umweru, hari imodoka iri gusohoka mu marembo kandi ku marembo hicaye umuntu wambaye umupira w'ubururu.

Iki ni ikigo nderabuzima cya shagasha, gisize irangi ry'umuhondo ku nzu hejuru gifite amabati y'ubururu, imbere yacyo hari amapave, hari n'abantu bicaye ku muryango basa nk'aho bategereje serivisi.

Inyubako bigaragara ko ari iyo kwa muganga harimo ibitanda bifite amapine bishasheho amashuka y'ubururu ndetse haragaragaramo amarido y'ubururu hino gatoya haragaragara intebe z'imifariso zirimo ibara ry'umutuku.

Aha ni kwa muganga ahari kugaragara ibitanda bisasheho amashuka ari mu baratandukanye, hari igitanda kimwe kirambitseho umwenda ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, hejuru kuri parafo haragaragara amatara ari kwaka.

Icyumba giteguye neza gisa neza, kirimo intebe zikoze mu buryo bw'uruziga, ndetse ziteye ku meza akoze mu buryo bw'uruziga, iki cyumba biragaragara ko gikunzwe kuberamo inama, n'ubwo nta bantu barimo.

Aha ni kwa muganga, ahagaragara urusobe rw'ibikoresho bitandukanye. Aha ngaha hari kugaragara intebe zifite udupine. Izi ntebe iyo uyizicayemo urizengurutsa, ugahindukira utiriwe uhaguruka.

Iyi ni inyubako ikikijwe n'urupangu rugiye ruriho amabuye ndetse n'amagiriyaje mo imbere haragaragara ko harimo inyubako nziza zitandukanye, inyuma yayo harimo imyicundo abana bicundaho ndetse n'abantu bakuru.

Iyi ni inyubako y'ababyeyi babyariramo, isize amarangi agiye atandukanye harimo umweru ndetse n'umuhondo, amagambo yanditseho yandikishije mu ibara ry'umukara, hanze hari ababyeyi bahicaye, uw'umumama ndetse n'umupapa wambaye imipira y'ubururu na baji mu gatuza.

Inyubako igeretse rimwe, ni inyubako isize amarangi y’umuhondo ndetse n’umukara, iruhande rwayo, hari jaride irimo igiti kinini cy’inganzamarumbo, hirya, hari umunara muremure. Kuri iyi nzu, hahagaze abantu batatu.

Inyubako isize amarangi y'umukara ndetse n'umweru, imbere yayo hari umuntu wambaye itaburiye ndetse iyi taburiye ifite ingofero, yambaye n'agapfukamunwa k'ubururu, yambaye na bote, imbere ye hateretse indobo y'icyatsi n'ahagana inyuma ye hateretse n'indi ndobo y'icyatsi.

Ahahuriye urujya n'uruza rw'abantu batandukanye harimo ababyeyi babamama ndetse n'abagabo n'abasaza. Hari umugabo uhagaze imbere ariwe uri kubakoresha iki kiganiro yambaye ikositimu ry'umukara. Harimo ababyeyi biteze ibitambaro mu mutwe harimo n'abafite imvi.

Inyubako nziza cyane isize irangi ry'umweru, ndetse ikaba igizwe n'ibirahuri. Hejuru kuri parafo haragaragara amatara ari kwaka, ndetse hakaba hari na kamera ifata amashusho y'abantu bahaje.

Aha ni kwa muganga, aho umuganga ari gutera urushinge cyangwa se urukingo ukuboko kw'ibumoso k'uyu musore. Uyu muganga yambaye ishati y'akazi ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, akaba yambaye na ga.

Inyubako nziza yubakishijwe amatafari ahiye, ikikijwe na jaride harimo na pasiparume, ikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aha ni kwa muganga ahagaragara ibitanda by'abarwayi ndetse hakaba harimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, ku nkuta hasize amarangi y'umweru ndetse haragaragara ko harimo na vandarateri izana umuyaga, hejuru amatara kuri parafo arimo kwaka.

Aha ngaha ni ku bitaro by'akarere ka Nyarugenge, haragaragara inyubako nziza ya etaje isize amarangi atandukanye harimo n'irangi ry'umweru, imbere yayo hari jaride irimo indabyo zitandukanye kandi hari n'amapave ku muryango.

Aha ni ku kigo nderabuzima ku muryango aho bakirira abarwayi, ndetse n'abaje babagana, biragaragara ko hari abagore, abakobwa ndetse n'abana bakiri batoya.

Inyubako isize amarangi meza, ndetse isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hari imodoka ihaparitse, ndetse hari n'abantu bahagaze imbere y'iyo nyubako, ndetse inakikijwe na jaride. Yubatse ku muhanda neza neza wa kaburimbo.

Inyubako iri mu ubwoko bwa etaje, isize amarangi y'umweru ndetse ifite n'utwuma tuyikikije, na two dusize irangi ry'umweru. Ifite amabati y'ubururu, imbere yayo hari idarapo ry'u Rwanda riri mu mabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi.

Iyi ni inzu y'ababyeyi babyariramo, imbere yayo hahagaze abadamu bane batatu muri bo bambaye amashati n'amapantaro yayo asa ubururu juru undi umwe yambaye ubururu bujya kwera de.

Inyubako isize amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo, isakaje amabati y'umutuku, ikikijwe na pasiparume ndetse na jaride, ahagana hino gatoya hari igiti cy'inganzamarumbo, imbere y'iyi nyubako haragaragara abantu bahahagaze.

Inyubako isa neza iteguye neza, isize irange ry'umweru ndetse n'ubururu, ifite intebe nziza za kizungu zifite ameza imbere yazo, aha ngaha biragaragara ko ari mu biro by'abayobozi.

Inzu yubatse mu buryo bwa etaje isize amabara y'umweru, imbere yayo hahagaze umukobwa ufite imisatsi miremire wambaye umupira w'umuhondo ndetse yambaye n'akajipo kagufiya, imbere kandi hari amapave.

Aha haragaragara abagore ndetse n'abagabo harimo n'abazungu bafite imisatsi miremire, bari kwifotoza ndetse hari n'umugore usutamye imbere, abo bagore harimo n'abambaye amadarubindi y'umukara.

Aha ni kwa muganga, mu cyumba cy'abarwayi, kirimo indembe. Harimo umurwaza, umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse na karuvati. Harimo umumama ubyibushye, ufite akantu mu ntoki, ndetse wambaye isaha ku kuboko.

Uyu ni umuhanda mugari wa kaburimbo harimo imodoka iri kugenda isatira inyubako iri hakurya y'umuhanda nziza, iyo nyubako ifite icyapa cy'umuhondo cyanditseho amagambo azwi mu rurimi rw'amahanga nka resebusiyo cyangwag se mu rurimi rw'ikinyarwanda ubwakiriro.

Iki ni icyapa cyubikiye ku bitaro cya CHUB, ni ibiitaro biherereye mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye, bikaba ari ibitaro bya Kaminuza y'u Rwanda ya Huye.

Aha ni ku kigonderabuzima, umubyeyi yibarutse, uyu mwana bamwambitse imyenda y'umweru. Muganga yambaye itaburiya y'umweru y'amaboko magufi, ndetse n'ingofero y'ubururu, agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'amarinete.

Inyubako ya etaje, isize amarangi atandukanye, isize amarangi y'umweru ku nkuta, ndetse ku birahuri hasize irangi ry'umweru, iyi nyubako ifite utwuma tuyifasheho kugira abantu batazahanuka.

Inzu isa neza isize amarange y'umweru, iri kwakaho udutara hasi dutandukanye tujya gusura ubururu, hejuru harasa nk'aho ari nko muri stade ariko iyi nyubako ikagaragara ko bwaba ari nk'ubwiherero.

Aha ni kwa muganga bigaragare ko, hari igitanda cy'umurwayi, kiriho n'imisego. Gishasheho ishuka, ku nkuta hasize irangi ry'umweru ndetse n'irindi risa ikijuju.

Inzu igeretse kabiri, isize irange ry'umweru. Ku muhanda, haruguru y'iyi nzu, harimo abantu batandukanye, barimo abagore bari gutambuka mu muhanda. Umugore umwe yambaye kositimu, ndetse afite umusatsi muremure.

Inyubako yo kwa muganga yubatse mu buryo butangaje, isa neza, isize irangi ry'ubururu ndetse n'umweru, ifite parafo zitandukanye, hari izisa umweru, izisa nkaho ari amatara ari kwakaho.

Inyubako nini isize amarangi y'ikigina bigaragare ko iyi nyubako iberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, haririmo intebe zifite amapine, kandi hejuru kuri parafo hariho amatara ari kwaka, hariho n'amadirishya afite ibirahure.

Aha ngaha ni kwa muganga, ahafatirwa amaraso y'abarwayi, akazanwa mu byuma kugira ngo bayarebemo mikorobe zirimo cyangwa se mo virus. Aha haragaragara abaganga babiri barimo kubyitaho, bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'udupfukamuwa tw'ubururu.

Icyumba gihurutuye gisa nkaho nta kintu gikorerwamo, hateyemo ameza abiri yegeranye, iki cyumba hejuru kuri parafo haragaragara amatara abiri nubwo atari kwaka, ibirahuri bisize irange ry'umukara.

Iki ni icyumba giteguye neza kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye ahagaragaramo ibitanda bifite amapine bishasheho amashuka y'umweru, hagaragara n'intebe zifite amapine zizengurutse.

Aha ni ku kigo nderabuzima cya Kigina. Amarembo yacyo arafunguye, ku marembo hari umumama, uhetse umwana wambaye akagofero k'umutuku, uhagaze mu marembo.

Aha ngaha haragaragara umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ishati isa ubururu wicaye kuri jaride iteyemo igiti k'inganzamarumbo kinini, kuri iyo jaride hateyemo indabyo z'ubwoko butandukanye.

Icyumba cyateraniyemo abantu batandukanye, giteyemo intebe nyinshi, nkaho hari abandi bantu bari buze kuzicaro. Hari abantu bakeya ugereranyije n'intebe zihateye. Harimo umugabo wambaye umupira w'ubururu, ndetse n'undi wambaye umupira w'umukara.

Aha ngaha ni ku kigo nderabuzima, aho umubyeyi yagiye gupimisha ibiro umwana afite, umuntu uhagaze iruhande rw'umwana wamushyize ku munzani, yambaye ishati y'umweru, afite n'umusatsi w'umukara.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa remezo, isize amarangi y'umweru yandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara, biragaragara ko mo imbere harimo amatara ari kwaka, ikindi kandi isakaje amabati.

Inyubako nziza isize amarangi atandukanye, ndetse isakaje amabati y'umutuku, iruhande rwayo hari ibiti birebire ndetse na jaride, kandi hari utuborodire tw'umukara ndetse n'umweru.

Mu cyumba kwa muganga, aharyamyemo abarwayi babiri, harimo umurwayi waryamye agaramye ashinze amavi, yambaye agakabutura ndetse iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi.

Inyubako ndende yubatse mu buryo bwa etaje, isize amarangi y'ubururu, yubakishijwe n'ibirahure, imbere hari icyapa cyanditseho cumi na kabiri. Ikikijwe n'ibiti bigaragara ko bikuze, kuko nta mababi bifite.

Aha ngaha ni kwa muganga, hari umuganga ufite imisatsi miremire wambaye agapfukamunwa, yambaye itaburiya y'umweru, umurwayi na we yambaye ingofero y'umukara ndetse n'agapfukamuwa k'umukara, yambaye n'umupira w'umweru w'amaboko magufi.

Inyubako nziza ya etaje igeretse rimwe, isize amarangi y'umuhondo ndetse n'asa n'ivu, ni inyubako nziza isa neza, ikikijwe na jaride. Imbere yayo hari idarapo.

Icyumba kinini gisa nk’aho cyabereyemo inama biragaragara ko higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere har’umukecuru wakenyeye igitambaro cy’umutuku, wambaye umupira w’umuhondo, ndetse yakenyeye n'igitenge cy'umutuku, mu ntoki afitemo isakoshi.

Aha haragaragara abajyanama batatu b'abagore, bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ingofero z'umweru, inyuma yabo haragaragara imikindo ibiri ndetse haragaragara n'inzu.

Aba ni abagore batandatu bahagaze ku murongo, bambaye udupfukamunwa tw'ubururu ndetse n'imyenda yabo yose ni ubururu, bigaragare ko aba bantu ari abajyanama b'ubuzima cyangwa se bakora mu zindi nzego runaka.

Inyubako isize amarangi atandukanye, ay'umweru ndetse n'asa ikijuju, hano hari icyapa cy'umweru cyandikishije mu mabara atandukanye, umweru, umutuku ndetse na move. Iruhande rw'iyi nyubako hari igipangu ndetse n'indabyo zitandukanye.

Inyubako isa neza isize amarangi atandukanye, hateyemo intebe z'imifariso ndetse hagati yazo hateretsemo akameza gakoze mu buryo bw'uruziga. Ku rukuta hashushanyije ibishushanyo bigiye bitandukanye. Ikindi iyi nzu irimo camera ku nkuta ebyiri.

Inyubako igizwe n'ibirahure binini biri mu ibara ry'ubururu, ifite umuryango ufite inzugi ebyiri, imbere yayo hari amapave ndetse hejuru yayo biragaragara ko ikirere gikeye.

Aha ni ku bitaro by'akarere ka Nyarugenge, aho bisize irangi ry'umweru ndetse hasize n'irangi ry'umukara. Hakikijwe na jaride y'indabyo zigiye zitandukanye.

Mu cyumba kirimo intebe bisa nkaho ari ibiro biragaragara ko hari umugabo uri kuri contwari uri gusa nkaho hari ibyo ari kuzuza, ahagana hejuru ye imbere gato hamanitse isaha ku rukuta ndetse n'imbere muri contwoir harimo abakobwa babiri.

Inyubako isize amarangi y'umweru ndetse hari n'andi asa n'ikijuju, iyi nyubako isakaje amabati y'umutuku. Ndetse kandi iyi nyubako iriho amadarapo abiri, iry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hakaba n'irindi ry'umweru ryandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Aha ngaha haragaragara abagabo babiri bicaye mu cyumba, inyuma y'umugabo umwe hari icyapa cyanditseho amagambo Irembo, uru ni urubuga abantu bifashisha biyishyurira amafaranga yo kudekarara ibintu runaka, undi mugabo inyuma ye haragaragara amacupa azwi nk'aya kizimyamwoto, azimya ahantu habereye inkongi y'umuriro.

Mu cyumba cy'umurwayi kwa muganga, umuganga ari kwita ku murwayi watewe serumu. Umurwayi yitwikirije ishuka y'umweru, muganga yambaye isarubeti y'ubururu afite umusatsi muremure.

Aha ni kwa muganga ahagaragara umurwayi uri kwita ku mwana mutoya, ari gusuzuma uko umutima w'uyu mwana awutera. Umwana ari guseka nkaho muganga ari kumuha serivise nziza imunogeye. Muganga yambaye itaburiya y'umweru, y'amaboko maremare, ndetse n'agapfukamunwa.

Iyi ni inyubako ifite urugi rukingurirwa habiri, rufite agace hejuru k'ikirahure, hejuru y'umuryango hariho akapa k'ubururu kandikitsemo amagambo y'umweru avuga ngo operation rom, ayo magambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Inyubako isize irangi ry'umweru, ndetse n'ubururu, iki cyumba bigaragara ko ari icyumba cyubutabarizo, mu mugihe habaye nk'inkongi y'umuriro cyangwa se ikindi kintu kidasanzwe.

Ni umuhanda w'amapave harimo abantu batatu, umwe ari imbere yambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ipantaro y'icyatsi n'inkweto z'icyatsi afite ibasi mu ntoki, inyuma ye hari umumama ufite, uri kumwe n'umwana amufashe akaboko.

Aha ni kwa muganga hano hari umurwayi uri mu kagare hirya gatoya hari umuganga wicaye uri gufasha abandi bantu, imbere ye hateretse icupawa rya sanitayiza uyu ni umuti ukaraba mu ntoki mbere yuko ugira ikindi kintu ufata, hirya gatoya hari abandi bantu bari guhabwa serivisi.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, harimo etajeri ipanzemo udukarito twinshi hasa nk'aho hacururizwa imiti kuko ari farumasi, hejuru kuri parafo hariho amatara ndetse haragaragara n'agatebe ka pulasitike k'umweru.

Ahateraniye urujya n'uruza rw'abantu, bigaragare ko baje kwaka serivisi runaka. Hari inyubako isize amarangi y'umutuku ndetse ku nkuta hometseho amakaro ari mu mabara atandukanye. Iyi nyubako isakaje amabati y'ubururu. Aha hantu hateraniye abantu benshi harimo abambaye imipira y'icyatsi y'umweru kandi benshi muri bo bambaye udupfukamunwa.

Inyubako nziza iri ahantu heza, ifite jaride ku mpande ndetse n'aho baparika imodoka, ikikijwe n'indabyo zitandukanye, hejuru yayo haragaragara ikirere kiriho ibicu.

Inyubako yubatse mu buryo bwa etage isize amarangi agiye atandukanye, umweru, ubururu ndetse n'ikijiju. Imbere yayo haparitse amamodoka menshi, hahagaze umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ingofero bigaragara ko ari umusekirite.

Aha ngaha ni kwa muganga haragaragara abantu batatu bambaye imyenda yabugenewe yo kwa muganga, bambaye amataburuya y'umweru ndetse bambaye na ga zisa move, imbere yabo ku meza hari icupa rirerire rigaragara nkaho ari iry'amavuta yo kurya.

Inyubako ya etaje isize irange ry'umweru yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ikikijwe na jaride ziriho ibiti birebire, hari umugabo uri kuyisohokamo wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse hino gatoya hari undi mugabo wambaye umupira w'amaboko magufiya usa umutuku.

Aha ni kwa muganga aho umuganga ari gufasha umurwayi gukora imyitozo ngororamubiri, umuganga yambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umukara ndetse yambaye na ga z'umweru.

Umukobwa ufite imisatsi miremire wambaye agasengeri k'umukara ndetse n'agapantaro kamwegereye kari mu ibara ry'umukara. Ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kuyikorera hasi ku gatapi kabugenewe. Imbere ye hateretse icupa ry'amazi yo kunywa.

Aha ni kwa muganga, mu cyumba, aho umuganga ari kwitegereza umwana indwara y'uruhu yaba arwaye, akoresheje icyuma cyabugenewe. Yambaye ijiri y'ubururu, ndetse yambaye n'umupira ujya gusa umutuku.

Imodoka y'imbangukiragutabara iri mu muhanda wa kaburimbo, uyu muhanda usize amabara y'umukara n'umweru ku mpande. Hirya gatoya y'uyu muhanda, haragaragara ibiti birebire ndetse ku muhanda hariho ibyuma byambutse insinga z'amashanyarazi.

Umukobwa uri kunywa amazi, ari kuyanywera muri gurude y'umukara, afite amaherena ku matwi, yambaye isengeri bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri, afite agasume ku rutugu, bigaragara ko namara kunywa amazi ari buhite akaraba.

Aha haragaragara umugabo waryamye hasi yambaye agakabutura k'umukara, hari undi mugabo uri kumunanura imitsi wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, ari kumugorora imitsi y'amaguru.

Uyu ni umusore wambaye ekuteri mu matwi z'umweru, afite agapara k'amazi ari kunywa amazi, yambaye agapira k'amaboko magufi biragaragara ko uyu musore yari ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa w'imubiri yombi, ufite umusatsi muremure yazirikiye hejuru, yambaye ekuteri z'umweru, yambaye n'akandi kantu ku kuboko kw'iburyo, akaba yambaye n'isaha ku kuboko kwe kw'ibumoso. Yambaye agasengeri, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye umupira wa rakositi w'umweru, bigaragara ko ashobora kuba yagize ikibazo ku nkokora y'ukuboko kw'iburyo kwe. Uyu mugabo yafatishije agatambaro ku nkokora y'ukuboko kwe kw'iburyo.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, biragaragara ko yirukanse ahantu harehare, kuko biragaragara ko ari kunywa amazi asa nk'uyageza mu muhogo akongera akayacira nk'abantu bazobereye mu gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye umupira w'amaboko maremare ariko yawukunje.

Mu cyumba cyo kwa muganga aho umuganga ari kwita ku mwana ukiri mutoya, yacanye itara mu kanwa k'umwana arimo aramurebera mu kirahure kugirango arebe indwara zo mu kanwa yaba arwaye abone uwumwandikira imiti.

Umukobwa unanutse uri gukora imyitozo ngororamubiri, afite umusatsi w'umukara ari gukora imyitozo ngororamubiri akora munsi y'ikirenge ukundi kuboko yagushyize ku mugongo, yambaye agapantaro kamwegereye n'agasengeri.

Umusore cyangwa se umugabo wambaye umupira w'umweru, akaba afite ekuteri mu mutwe nazo z'umweru. Ku kuboko kwe kw'iburyo yambayeho isaha, ari kunywa amazi araramye. Biragaragara ko yari ananiwe.

Umusore bigaragara ko yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, yicaye ahantu ari kunywa amazi, ari kuywera mu gapara bigaragara ko amajije gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo uri gukora imyitozo ngorora mubiri wambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi, ari kunywa amazi muri gurude y'ubururu, inyuma ye hari ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse mu mugongo afitemo agashuka cyangwa se agasume k'umuhondo.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufiya k'umweru, ari gukora imyitozo ngororamubiri, biragaragara ko ari kunywa amazi muri gurude ye y'ubururu, bigaragare ko abaye ahagaze gatoya kugira ngo abanze anywe amazi ubundi abone gukomeza gukora imyitozo ngororamubiri yiruka.

Ikiganza kimeze nk'icy'umuntu w'umuzungu gifashe icupa ry'amazi, iri cupa ni igipara ripfundiki agapfundikizo k'ubururu, inyuma yaryo haragaragara ikirere gikeye cy'ubururu gifite n'ibicu.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agakabutura kagufiya k'ubururu, ndetse n'agasengeri k'ubururu, afite umusatsi ugera mu mugongo, ari kuzamura ukuguru ajya kugukoza mu gatuza ukundi kuri hasi.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, afite umusatsi muremure cyane ugera mu mugongo. Yambaye agasengeri k'ubururu, ndetse yambaye n'agapantaro kamwegereye kari mu ibara ry'ubururu. Ari kurambura amaboko ye akayakoza ahagana munsi y'ibirenge yarangiza akunamuka.

Umukobwa w'imibiri yombi uri gukora imyitozo ngororamubiri. Afite umusatsi mwinshi, gusa yawuziritse. Yambaye ekuteri z'umweru ndetse yambaye n'inkweto z'umweru n'ipantaro yambaye ni iyo gukorana imyitozo ngororamubiri kuko iramwegereye. Yambaye n'agasengeri k'umukara, iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi.

Umukobwa ukiri mutoya ufite umusatsi mukeya, ari kunywa amazi muri gurude ifite agapfundikizo k'ubururu, afite agasume ku bitugu ndetse yambaye n'asengeri k'ubururu, biragaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu nyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, izwi mu ndimi z'amahanga nka Jimunazi. Harimo utwuma twumva ukuntu umutima uri gutera ndetse hakabamo n'umugozi wo gusimbuka n'umupira wo gukina.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku w'amaboko magufi, yambaye n'ikabutura y'umukara ndetse imanuyemo umurongo w'umutuku, hasi ku nkweto yambaye inkweto zifunze ndetse n'amasogisi, ari gukora imyitozo ngororamubiri, amanuka azamuka ariko biragaragara ko hari akandi kantu ari kugenderaho.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri yo kwirukanka, yambaye agasengeri ndetse n'agakabutura, uyu mugabo birasa nk'aho ari icyapa kiri kumugaragaza gishishikariza abantu gukora imyitozo ngororamubiri, bamushyize mu kaziga gafite ibara ry'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu bwera.

Umugabo uri ahantu hirabura ndetse nawe bigaragara ko yirabura, wambaye agapira k'amaboko maremare ariko yakunje hejuru ku maboko, ndetse n'agakabutura, biragaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri amanuk, azamuka, yongera amanuka.

Umugabo ukuze cyangwa se umusore ari gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye isengeri y'icyatsi, ari kunywa amazi araramye, agira ngo amanuke asa nk'agera mu muhogo.

Umukobwa w'imibiri yombi, uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi, ari kugenda ananura amaguru ye yombi ndetse n'amaboko, akamanura n'umugongo, umutwe akawukoza ku mavi.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza ku muntu uyikora kuko ahanini nta ndwara zikunze kumwataka ngo abe yazahara, ariko bikaba byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri ukibuka kurya ibitera imbaraga ndetse n'imbuto.

Mu kibuga umukinnyi agize ikibazo, barimo baramukanda mu ivi, biragaragara ko ashobora kuba yavunitse, haragaragara umuntu uri kumukanda, iruhande rwabo hari umupira w'amaguru, uri kumukanda yambaye inkweto z'umutuku, umupira w'ubururu ndetse n'ikabutura y'umukara.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri biragaragara ko yakoze imyitozo ngororamubiri ihagije witegereje amaboko ye ukareba uburyo ari kuyikora yitonze ndetse ukareba n'imyenda ari guko imyitozo ngororamubiri biragaragara ko ayifitemo uburambe yambaye ekuteri z'umweru ndetse n'inkweto z'umweru n'ipantaro yitrenigi.

Aha ni kwa muganga hatangirwa ubuvuzi bw'ibanze, umuganga wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu ari gufata icyuma cyabugenewe akakirerebesha mu maso y'umwana ngo arebe ko hari uburwayi bw'amaso afite. Uyu mubyeyi yiyambaye agatambaro k'umuhondo ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu.

Mu kibuga cyateraniyemo abana bakiri bato ariko harimo n'abakuze, hano biragaragara ko ari mu kibuga cya basiketi bateraniye basa nk'aho bari mu myitozo ngororamubiri, hirya gatoya hari inyubako isakaje amabati y'umutuku.

Aha hagaragara umuganga ndetse n'umurwayi, umuganga yambaye imyenda y'ubururu arimo arazirika bande ku kirenge cy'iburyo cy'uyu murwayi bigaragare ko yararimo gukora imyitozo ngororamubiri akavunika ikirenge.

Umugabo uri kunywa amazi mu gacupa keza gasa neza, bigaragara ko aya mazi nayo asa neza nta myanda irimo ntabwo avangiye. Uyu mugabo afite ubwanwa bukeya bigaragara ko yaba yarabwogoshesheje.

Umusore ufite ubwanwa bwinshi ari kunywa amazi muri gurude y'ubururu, bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapira k'amaboko magufiya kamwegereye kari mu ibara ry'umukara, ndetse afite n'agasume ku rutugu gasa umweru.

Ahangaha ni mu kibuga. Aho umuntu wambaye umupira w'umuhondo wandikishijeho nimero gatatu mu nyuguti y'umukara, abashinzwe ubutabazi bazwi nka bakorana na Kuruwaruje, bamuhaye ubutabazi bw'ibanze ashobora kuba yaravunikiye mu kibuga. Bambaye amajire y'umutuku.

Umukobwa wirabura ufite umusatsi muremure w'umukara, yambaye agasengeri k'ubururu kandi ari kunywa amazi muri gurude y'ubururu, biragaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Aha barashishikariza umuntu uwo ari we wese gukora imyitozo ngororamubiri bitewe n'uko angana ibiro afite, kandi bakaba bashaka kugaragaza ibyiza by'imyitozo ngororamubiri ku bigendanye n'imikorere y'ubwonko.

Aha haragaragara ubwoko bw'imiti igiye itandukanye, hagaragara igitoryi cy'urushinge, ndetse hakagaragara n'ibinini biri mu mabara atandukanye, ibinini biri mu ibara ry'umweru, ndetse n'ibijya gusa umuhondo, harimo n'ibifite ibara risa na pinki.

Umuganga cyangwa se umuforomokazi, wambaye imyenda y'akazi, yambaye udukoresho dupima uko umutima utera ndetse imbere ye ku meza hari mudasobwa n'ibitabo bibiri.

Umusore w'imibiri yombi uri mu myitozo ngororamubiri. Yambaye umupira w'ubururu na ekuteri ariko yazambariye mu ijosi, afite icupa ry'amazi ari kunywa amazi. Ku kuboko kwe ku iburyo haziritseho agatambaro k'umweru.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agakabutura k'umukara kamwegereye, yambaye isaha ku kuboko kwe kw'ibumoso, yunamye ibiganza bye byose yabihurije ku ivi ry'ibumoso.

Umukobwa ubyibushye uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto zirimo amabara y'umutuku, umweru ndetse n'umuhondo, ukuboko kumwe kw'ibumoso kwagondeye ikirenge hejuru ahagana ku kibuno, ukundi kuboko kwe kuramburiye imbere.

Aha ni kwa muganga ahagaragara umuganga wambaye baji mu gatuza ufite igipirizo cy'umutuku mu ntoki ze, haragaragara ibintu biri mu ibara ry'ubururu ndetse hasize ibara ry'umweru, haragaragara na kizimyamwoto yifashishwa izimya inkongi y'umuriro.

Inyubako irimo ibicuruzwa bitandukanye, bipanze mu dukarito, iyi nyubako biragaragara ko ashobora kuba ari isoko ricururizwamo nk'amata cyangwa se n'ibindi binyobwa bitandukanye.

Umukobwa wambaye agasengeri kajya gusa iroza, yambaye agakabutura k'ubururu kamanuyemo amabara y'umweru, ari gukora imyitozo ngororamubiri yicaye hasi, afite umusatsi muremure umwe ugera mu bitugu.

Aha haragaragara ishusho y'umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, ari kwifashisha ibyuma byo guterura bizwi nka ariteri. Imbere ye hari imbuto, amagi, bigaragara ko ari buze kubyifashisha namara gukora iyi myitozo ngororamubiri.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri ari kunywa amazi muri gurude, yambaye agapira k'amaboko magufiya afite umusatsi, uyu musore biragaragara ko abaye ahagazeho gatoya akabanza kunywa amazi ubundi akabona gukomeza gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wicaye atuje afite igitambaro ishyize ku ivi rye ry'ibumoso, ku ruhande gatoya arifatishijeho ikiganza kimwe, biragaragara ko uyu mugabo yari ari mu myitozo ngororamubiri cyangwa se akaba arwaye uku kuguru kw'ibumoso.

Iri ni icupa ry'amazi, ririmo amazi meza, biragaragara ko hari umuntu uri kuyasuka ayakura mu icupa, ayashyira mu kirahure ngo abone uko ayanywa bitamugoye, bitamusabye kuba yanywesha umunwa ku icupa.

Umukobwa cyangwa se umudamu ubyibushye yambaye impeta ku kuboko kwe kw'ibumoso, ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda isa move, yafashe ibiganza bye abihuriza ahagana hagati y'amaguru aho yicaye ku itapi yabihurishije ibiganza bibiri.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi kuri buri wese, nta kigo na kimwe kitadushishikariza gukora imyitozo ngororamubiri, niyo mpamvu hano hagaragaramo imipira yifashishwa mu mikino nk'umukino w'amaguru uzwi nka rugubi ndetse n'umupira w'amaboko.

Hano haragaragara abantu batandukanye bari gukora imyitozo ngororamubiri, harimo abagore cyangwa se abakobwa bambaye amasengeri ndetse n'amapantaro abafashe, hakabamo n'abagabo bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'amapantaro y'umukara n'umweru.

Imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro k'uyikora, hano haragaragara abana bari mu myitozo yo gukina umupira cyangwa se guterura ibyuma byabugenewe bizwi nka aliteli. Abandi bari kurambura mubiri bisanzwe, afata ibiganza abizamura ndetse hari n'uri kwiruka.

Umuntu w'umuzungu wambaye agakabutura gatoya k'umukara, aryamye hasi muganga cyangwa se ushinzwe kunanura imitsi arimo aramugorora imitsi yo mu ivi.

Umuntu ushinzwe gukoresha abantu imyitozo afite umupira wo gukina uri mu ibara ry'umukara ubururu ndetse n'ijya gusa ivu yambaye umupira w'icyatsi w'amaboko magufi.

Umubyeyi wambaye ikanzu iri mu mabara menshi, yicaye mu cyumba ku buriri, yicaranye n'akana kambaye agakanzu k'umweru ndetse kambaye n'udusogisi, barishimye akana kari guseka.

Iki, ni ikiganza cy'umuntu uri gusuka amazi ayakuye mu kirahure, ayasuka mu kindi kirahure giteretse hasi. Aragira ngo agaragaze ko aya mazi ari urubogobogo, nta mwanda urimo habe na busa.

Umukobwa n'umuhungu bari kunywa amazi, ni mu gipipiri gisa ubururu. Umukobwa afite umusatsi muremure, yambaye umwenda hejuru w'umukara. Umuhungu yambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi.

Abaganga bashinzwe gukurikirana abakinnyi bavunikiye mu kibuga, hano bafite udukarito tw'umutuku ndetse bakagira n'akandi gacupa k'umweru karekare, kari hano mu kibuga, aha ngaha baba bugufi kugira ngo umukinnyi ugize imvune y'ukuguru babashe kuba bamufasha.

Igikapu kinini kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye iki'igikapu kiri mu ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umweru, ibi bikoresho birimo bikunze kwifashishwa n'abavuzi bari kumwe n'abakinnyi mu kibuga kugira ngo nibagire ikibazo babiteho babahe ubufasha bwihuse.

Urusobe rw'ibimera bitandukanye ibi ngibi biragaragara ko ari indabyo zihingwa ndetse zikagira n'igihe zisarurirwa runaka, zimwe turazizi nk'izifashishwa mu bukwe cyangwa mu birori runaka.

Ibinyobwa bitandukanye bishoboka ko byaba ari urwagwa cyangwa se umutobe uhiye. Hano biragaragara ko ibi binyobwa biri mu macupa, aya macupa akaba ateretse mu ikese. Haragaragaramo ari mu macupa asa nk'aya koka kola ndetse n'amacupa asanzwe.

Aha haragaragara ikimera kiri mu bwoko bw'ibimera birandaranda, aho iki kimera gifite indabyo ziri mu ibara rya move, iruhande rw'iki kirabyo haragaragara ibindi bimera bitandukanye.

Aha haragaragara urusobe rw'ibimera bitandukanye, ahanini byifashishwa mu kubyazwa umuti gakondo uvura indwara zitandukanye. Ibi bimera babisoroma amababi maze bakayasekura bakayabyaza umuti gakondo.

Urusobe rw'ibimera bitandukanye, ibi bimera biragaragara ko byifashishwa mu kubyazwa umuti gakondo uvura indwara zitandukanye. Ibi bimera akenshi usanga babisoroma amababi barangiza bakayasekura.

Kwa muganga cyangwa se muri farumasi ahateretse ibikombe bitatu, ibi bikombe bikunze kuba birimo ibinini, byose birasa umweru kandi bipfundikije n'imifuniko isa umweru, icyo hagati kirimo amabara y'umutuku.

Uru ni urusobe rw'imiti gakondo itandukanye, aho hari imiti iri mu bikombe ifite ibipapuro by'umuhondo, iby'umweru, umutuku ndetse n'ibijya gusa iroze, aha ngaha haragaragara ko hashobora kuba ari muri farumasi.

Amavazi arimo indabyo zitandukanye, hagaragara n'akantu basekuriramo imiti gakondo y'ibimera byagiye bisoromwa hirya no hino, iruhande hari uducupa tubiri dupfundikiye n'akandi gapfunduye.

Aha ngaha haragaragara umuntu usa nkaho ari gusekura utuntu. Birashoboka ko ari imiti gakondo yaba ari kwegeranya, akayitunganya yifashishije aka gasekuru gatoya kabugenewe ndetse n'agasekuzo kako.

Iki ni ikimera kizwi ku izina ry'umuravumba, uyu ni umuti wifashishwa cyane mu buvuzi gakondo, aho ukunze kuvura inkorora ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Icupa riri mu ibara ry'umweru ripfundikije ibara ry'umweru, ryandikishije amagambo ari mu ibara rya shokora. Uyu biragaragara ko ari umuti gakondo wakozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba.

Agacupa k'umweru gapfundikije umufuniko w'umweru kanditseho amagambo agiye ari mu ibara ritandukanye, hari imove ndetse hakaba n'umukara, iri cupa kandi hariho igishushanyo cy'igisiga kiri kuguruka.

Aha haragaragara agacupa kari mu ibara ry'umweru gapfundikije umufuniko uri mu ibara rya shokora, kuri aka gacupa hashushanyijeho igisiga kiri kuguruka ndetse hashushanyijeho n'ikimera kizwi nk'igikakarubamba.

Aha haragaragara ibimera bitandukanye ndetse hari kugaragara n'uducupa turimo ibintu by'umuhondo, uyu ni umuti gakondo ubyazwa muri iki kimera, urawufata ukawusoroma amababi ukayasekura, amazi yawo avuyemo niyo ari muri aka gacupa.

Ikimera kiri mu bwoko bw'ibimera birandaranda, iki kimera amababi yacyo yifashishwa abyazwa umuti gakondo. Aho afatwa agahondwa cyangwa se agasekurwa ubundi bakayakamura.

Imiti gakondo itandukanye nkuko tubizi, abenshi imiti gakondo urabanza ukayisarura imwe ukayanika yamara kumpa ukayisekura hano biragaragara ko ari imiti yasaruwe yamara kuma bakayishyira mu isoko bakayisekura kugira ngo habonekemo ifu.

Iki kimera gifite amababi ameze nk'ay'umuravumba, iki kimera cyitwa igicuncu, kizwiho kuvura indwara y'inzoka zo mu nda, iy'umwana cyangwa se umuntu mukuru arwaye inzoka zo mu nda asoroma ayo mababi yacyo akayahekenya, akamira amazi, agacira ibikatsi.

Umugabo wambaye rakosite y'icyatsi irimo amabara y'umweru ndetse ku ikoti ryayo hariho ibara ry'umuhondo, afite icyatsi mu ntoki ndetse inyuma ye hari inyubako isize amarangi y'ubururu ndetse n'umweru.

Ishusho y'umukobwa w'umuzungu ufite imisatsi miremire, yagerekeyije ibiganza bye hateretseho agacupa k'umukara, kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza avuga ngo lavender.

Iri ni isoko ricuruza ibiribwa bitandukanye hagaragaramo nk'aho haba harimo n'ubuki buri muri ibi bikombe bipfundiki imifuniko ijyago gusa umuhondo, inyuma gatoya hariyo izindi mbuto zimeze nk'indimu, hirya inyuma y'uyu mugabo wambaye ishati isa na kaki hari umu mama wambaye umupira w'umutuku ndetse n'igitambaro mwiza.

Igikarito kiri mu mara atandukanye cyandikishije mu nyuguti z'umukara, umutuku ndetse n'umuhondo, hano hari ahantu handitse mirongo itanu ku ijana n'ahandi hasi handitse makumyabiri ku ijana, biri mu kazeru kari ahagana hasi.

Amacupa abiri y'umuhondo apfundikije imifuniko y'umukara, ariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, aya macupa biragaragara ko arimo imiti gakondo cyane cyane iyi miti ikaba ikorwa mu gikakarubamba.

Amacupa ari mu ibara ry'umukara, aziritseho ibipapuro biri mu mabara atandukanye, aya macupa biragaragara ko harimo imiti gakondo cyangwa se inzoga runaka.

Amacupa arimo ibyo kunywa bitandukanye. Ariko biragaragara ko iki ngiki ari icyayi, kigiye gitandukanye harimo icyayi cy'umukara, ari nacyo gifite icupa ry'umukara ndetse n'imifuniko y'icyatsi.

Iki ni ikimera cyakuze bigaragara ko kimaze igihe kinini, bigaragara ko kibyazwa umusaruro, gikikijwe n'ibindi bimera bitoya, bigaragare ko iyi ngiyi ari jaride, cyangwa se akaba ari ibimera abantu bifashisha bakuramo imiti gakondo.

Ikimera gikorwamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, iki kimera aya mababi yacyo barayasoroma, bakayasekura cyangwa se bakayahonda, ubundi bakayakamura.

Hano haragaragara abagabo, bahagaze mu busitani buteyemo ibikakarubamba nk'uko tubizi, igikakarubamba ni ingirakamaro cyane kuko gikorwamo ibintu byinshi bitandukanye; twavugamo nk'imiti gakondo cyangwa se amavuta yo kwisiga.

Iri ngiri ni iduka ricuruza imiti gusa biragaragara ko haba harimo inzoga ndetse n'amazi yo kunywa ari mu dupara duteretse mu ka etajeri gashize irangi rijya gusa ubururu. Ku rukuta hasize irangi ry'umuhondo, iruhande gatoya hari umugore wambaye itaburiya y'umweru.

Urusobe rw'ibimera bitandukanye. Ahangaha biragaragara ko hari ibimera bitandukanye, bigiye bifite n'amababi atandukanye. Cyane ko hano bisa nk'aho ari mu murima wagenewe uhingamo imbuto zigiye zitandukanye.

Amacupa y'ibirahure atandukanye, ariko atandukaniye ku mifuniko iyapfundikiye, aya macupa biragaragara ko arimo imiti gakondo, aho apfundikijwe imifuniko isa umutuku, umweru, ndetse n'irindi bara risa na kaki.

Iki ni ikimera kizwi nk'umuravumba, aha ngaha bigaragara ko ari aho iki kimera bagihinze, nkaho gifatwa nk'ikimera gifite agaciro gakomeye, kuko kivamo umuti gakondo uvura indwara zitandukanye, harimo inkorora ndetse n'umutwe.

Aha hagaragara urusobe rw'ibimera bigiyehe bitandukanye, harimo ibimera bifite ibibabi binini ndetse n'ibigiye bifite utubabi dutoya, ibi bimera byose biragaragara ko byakwifashishwa mu kubyazwa umuti gakondo.

Icupa ry'ikirahure ripfundikishije umufuniko ujya gusa umuhondo, wandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara, iri cupa ryanditseho amagambo umuravumba, bigaragare ko hano harimo umuti gakondo wakozwe mu muravumba.

Aha haragaragara agasekuru gateretsemo umusekuzo cyangwa se umuhini, iruhande rwako hateretse icupa ndetse hakaba harambitse iruhande rwazo n'izindi ndabo zifite ibara ry'umutuku ndetse n'izifite iry'icyatsi n'iroza.

Iki ni ikimera kizwi nk'umuravumba cyifashishwa hakorwa umuti gakondo, umuravumba uvura indwara zitandukanye harimo nk'inkorora ndetse n'umutwe.

Aha haragaragara ikimera kirandaranda gifite amababi ashobora kuba yabyazwa umuti gakondo, nk'uko tubizi imiti gakondo yose imyinshi muri yo iva mu byatsi.

Ibi ni ibinini biri mu ibara rijya gusa icyatsi, ibi binini biragaragara ko bikozwe mu bimera, biri mu kantu gafite ibara risa pinki, ibindi byanyanyagiye hasi.

Amacupa ari mu mabara atandukanye, bigaragara ko n'imiti irimo itandukanye. Hari amacupa apfundikije imifuniko isa iroze, hakaba n'indi ipfundikije imifuniko ifite irangi risa na kacyi, hakaba indi ipfundikishije isa na shokora, iyi miti yose ihuriye kuba ikozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba.

Aha haragaragara utujerekani dutoya tw'umuhondo, dupfundikishije imifuniko y'umutuku, inyuma yatwo hagaragaraho ishusho y'umuntu wambaye isengeri y'icyatsi, iruhande r'utwo tubido hariho inyuguti ya efu cumi na gatanu.

Ibikombe bitoya bisa nk'aho ari iby'ibirahure. Ibi bikombe bikunze gucururizwamo ubuki, ibi bikombe bifite imifuniko y'umuhondo ndetse n'ibindi bifite imifuniko y'umweru, biragaragara ko hano hantu hacururizwa n'inzoga.

Iki ni ikimera kirandaranda. Iki kimera amababi yacyo yifashishwa abyazwamo umuti gakondo, aho basoroma aya amababi bakayasekura cyangwa se bakayahonda, ubundi amazi avuyemo bakayashyira mu gacupa, ubundi akabyazwa umuti.

Amacupa ari mu ibara ry'umuhondo, shokora ndetse n'icyatsi, aya macupa arimo umuti gakondo. Uyu muti biragaragara ko wakozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba. Twese turabizi ko igikakarubamba ari ingirakamaro ko gikorwamo ibintu byinshi bitandukanye.

Umugore ufite umusatsi mwinshi, witeye agatambaro k'umweru, ufite isakoshi ku kuboko. Arimo arasoroma ibimera hano bigiye bitandukanye, asa nk'aho ari gushaka umuti.

Uyu ni umugore uri gusoroma amababi y'ikimera, bigaragaza ko agiye kuyabyaza umuti gakondo wo kuvura indwara zitandukanye, uyu mugore arirabura ndetse yambaye n'igitambaro mu mutwe cy'umweru.

Iki ni igikombe kirimo ubuki bw'inzuki, aha biragaragara ko ubu buki ntahandi wabusanga ndetse buranigaragaza ntabwo byakwirirwa bigusaba ibintu byinshi usobanuza ibintu biri muri iki gikombe wamaze kubona uruyuki ku gikombe.

Utujerekani tubiri tw'umuhondo, dupfundikije imifuniko y'umutuku, utu tujerekani biragaragara ko turimo imiti itandukanye, iyi miti bikaba bigaragara ko ikozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba.

Iki kimera kiri kugaragara hano kizwi ku izina ry'igikakarubamba. Iki kimera kizwiho kubyazwa ibintu byinshi bitandukanye kandi by'ingirakamaro. Iki kimera ahanini cyifashishwa mu gukora amavuta bisiga ndetse kivamo n'umuti gakondo.